Ku kazu karimo amabara y'umutuku, umweru, umuhondo, harimo umukozi ukorera kimwe mu bigo by'itumanaho, hari umusore waje kwaka serivisi zirimo kugura amayinite ndetse no gufungurirwa konti yo kubitsaho amafaranga.

Mu birori byo kumurika telefoni igezweho kandi ihendutse y'ikigo kimwe mu bigo by'itumanaho byo mu Rwanda, byitabiriwe n'abayobozi batandukanye bashishikariza abaturage kwitabira kugura iyi telefoni kuko ihendutse kandi yabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ababigize umwuga barishimira intambwe gutwara amagare bimaze kubagezaho, aho batwaye ibikombe, aho bahize abandi mu gutwara ahazamuka, ahamanuka ndetse n'ahacyama, bishimira intambwe igare rimaze kubagezaho.

Bamwe mu bitabiriye imurikagurisha ry'ibikomoka ku buhinzi ndetse no ku matungo barishimira intambwe igihugu kimaze kugeraho kuko ubu ngubu igihugu kibasha kubona byinshi bidasabye ko kibitumaho mu mahanga ya kure ngo bize binahenze.

Agatebo kuzuye imbuto zitandukanye. harimo: imyembe, indimu, amacunga n'izindi zitandukanye. Umubyeyi ari kubicuruza mu isoko ndetse afite n'udukoresho two gupfunyikiramo abari bumugurire.

Rimwe mu iduka rigurishirizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, ririmo igikoresho gikoreshwa mu gukonjesha, hakabamo ubuvido, hakabamo ibyayi bitandukanye, ndetse n'ibindi bintu byose abakiriya babasha gukenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umukobwa yicaye ku gatebe gato yambaye ingofero ndetse n'isaha, yambaye umupira w'icyatsi ari gucuruza amavuta, imyunyu, amasabune, ubunyobwa, ibishyimbo n'ibindi bitandukanye.

Imwe muri hoteri ifite inyubako yubatse ahitaruye, aho abicaye mu ruganiriro rwaho baba babasha kureba hakurya ku musozi, bakabona n'ibihabera byose bitabasabye gushishoza cyane.

Isahani ikoze mu buryo burambuye iriho ibiryo bitandukanye birimo ifiriti, umuceri uvanze n'inyama ndetse n'inyama zitetse ukwazo ku ruhande birimo ibirungo bitukura bituma bisa neza cyane.

Bamwe mu bacuruzi bazunguza ibiribwa ku gataro, bavuga ko ubu bucuruzi bufasha abaturage batandukanye batabona amahirwe yo kubona uko bagera ku isoko, kuko begerezwa ibiribwa bakabibona hafi kandi bigura amafaranga atari menshi cyane.

Imwe mu mijyi igize akarere, iri kugerageza gutezwa imbere, bategekwa kubaka inyubako zigezweho, hazanwa ubucuruzi bw'ibikoresho bitandukanye bikenerwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse hangizwa n'umuriro w'amashanyarazi, uburyo bwo gufasha abahatuye.

Mu nzira nyabagendwa ahagenewe kwambukirwa n'abanyamaguru. Hagaragazwa n'imirongo yambukiranya umuhanda, iri mu mabara yera, umukara ndetse hakaba nta muyobozi wemerewe kuharenga igihe harimo umunyamaguru uri kwambuka umuhanda.

Abayobozi b'ibinyamitende bavuga ko bimwe mu bibafasha kubona abagenzi batwara, ari ukuba amagare yabo afite isuku, afite intebe zo kwicara aho zisa neza ndetse nayo ubwayo akoze ku buryo atateza impanuka abagenzi batwaye.

Bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki barishimira urwego uyu mwuga umaze kubagezaho dore ko ngo biteje imbere bakaba babasha gukora ibikorwa byabo bya buri munsi bagateza imbere n'imiryango yabo.